Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke bateraniye hamwe, aho biga bicaye hasi ku mikeka kuko ari byo bibashimisha, ndetse bakaniga bafata udukoresho dutandukanye ndetse n'ibikinisho kugira ngo bishimire kwiga.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke gikikijwe, n'ahantu hatandukanye n'ibikoresho bitandukanye, bifasha abanyeshuri mu gihe cyo kwidagadura nk'ibikoresho byo kwicundagaho, ndetse n'ibindi bicaraho biri kubazengurutsa, mu rwego rwo kubashimisha.

Urukuta rushushanyijeho igishushanyo abanyeshuri biga kigaragaza umutima uburyo amaraso atembera mu mutima cyanditseho sirikiratori sisitemu na urinari sisitemu, imbere haparitse igare, bigaragara ko ari igifasha abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke mu kureba uburyo ki biba bimeze bakazajya kubyiga babizi.

Abana batoya bari mu rugo imbere y'urugo bari gukina ku ruziga bagenda bisanzuye bazenguruka bishimiye umukino, hari n'umusaza uri kubakurikirana wishimiye kubareba uburyo bari gukina.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bambara imyenda y'umuhondo ndetse n'amajipo y'ubururu cyangwa amakabutura y'ubururu, bateraniye hamwe bari mu gikorwa cy'imyiyereko aho bari kubyina, ndetse na mwarimu wabo ubafashije aho bari kubikorera imbere y'abandi babahanze amaso.

Ikibuga kiri imbere y'inzu z'abaturage babamo, harimo inzira banyuramo bagenda, hari kunyuramo abanyeshuri bari kujya ku ishuri, baragenda bihuta bagana aho ngaho ishuri riri, hari inzu zigiye zitandukanye nziza zimeze neza.

Ukuboko k'umuntu gushushanyijeho amasura y'abantu babiri, ayo masura agiye ari mu mumabara y'umukara, ndetse n'andi mabara agaragaza ko ari isura y'umuntu.

Abanyeshuri batoya bo mu mashuri y'inshuke, bicaye mu ishuri bari kwiga amasomo atandukanye y'imibare mu ishuri hatatsemo udushushanyo tubakurura cyangwa se tubereka utuntu twiza biga.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi bw'abana b'inshuke, harimo ikaramu, ipfundikiye, harimo n'andi makaramu y'amabara agiye atandukanye harimo aya ibara rya pinki, icyatsi kibisi, umweru, ndetse na oranje.

Ikigo k'ishuri kirera abana b'incuke ku rukuta handitseho ko icyo kigo cyitwa purensisi harima andi kingidomu ofu Afurica, hariho ibishushanyo by'abana bishimishije bigaragaza ko higa abana bakiri batoya b'incuke.

Umunyeshuri wo mu mashuri y'inshuke uri kwiga gushushanya, aho ari kwifashisha akaroso, asiga amarangi kugira ngo abashe kureba ko yagera ku gishushanyo agomba gukora.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya maremare n'inzugi ndende, ifite ama esikariye ane, imbere yaho hateye indabyo ntoya na pasiparume, hari muhanda mutoya.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti bibikorotiriye, imbere hari umuhanda, cyubakishije amatafari ahiye, hari umwarimu wambaye itaburiya ndetse n'abanyeshuri bakeya bari imbere y'ishuri.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bifasha abana batoya kwiga kubara, harimo amabara atandukanye ari mo mibare ndetse n'ibindi bikoresho byifashisha mu kwiga impande zigize ibikoresho ndetse n'ibindi bifashisha mu gushushanya.

Abayobozi ndetse n'abandi bagabo bari iruhande basuye ikigo cy'amashuri, harimo n'abakozi b'abubatsi bahagaze aho imbere ikigo cy'amashuri kimeze neza bafite ibyo bari kuganiraho.

Ikigo cy'amashuri giherereye ahantu gifite amashuri menshi atandukanye, imbere hari inzira abanyeshuri banyuramo bakiganamo, hari imirimi igiye itandukanye ndetse n'inyuma hari inzu zitandukanye abaturage babamo.

Ikibuga cyiza cya basket, cyubatse imbere y'amashuri menshi atandukanye, hari imiryango myinshi itandukanye abanyeshuri bigiramo, ndetse harimo n'inzu abayobozi bakoreramo.

Inzu irimo ibikoresho byifashishwa mu burezi, amakaramu, amakereyo ndetse harimo n'ameza abanyeshuri bicaraho igihe bari kwiga n'intebe zifasha abana igihe bicaye bakurikiye amasomo bari guhabwa.

Abagabo bahagaze, abandi bari kugenda, ahantu mu busitani bw'ikigo cy'amashuri, bamwe barimo barafotora, abandi bafite mudasobwa, bari kuvugira mu ndangururamajwi, bafite ikiganiro bari gutanga.

Igikoresho cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga imibare ndetse n'andi masomo abasaba gushushanya, guca imirongo igororotse, cyitwa matematikare kirambitse ahantu ku rupapuro, kirimo kereyo, irarati takeleyo, kompa na gome.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bwo mu mashuri abanza harimo impakas, irati ica umurongo ugororotse, kereyo zifashishwa mu gushushanya ndetse no kwandika, hari n'utundi dushushanyo turimo utuntu tumeze nk'udupupe dufasha abana mu myigire yabo.

Ibishushanyo byifashishwa mu gusobanurira abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumva amasomo neza, ndetse ibyo biga babyige babireba n'amaso yabo.

Inzu yubatse neza, ifite imbere ubusitani igaragara nkaho ikorerwamo ibijyanye n'uburezi bw'amashuri abanza, ifite amabati meza irasa neza.

Ikimenyetso kigaragaza uburezi bw'u Rwanda cyitwa REB mu magambo arambuye Rwanda basic educationl board gikunda kugaragaza ko aho kiri kerekana ko ibyo bintu bijyanye n'uburezi cyangwa se bikorerwa mu burezi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza, gifite amashuri agiye atandukanye kuri broke imwe cyangwa se ku murongo umwe, hari umuturage uhagaze imbere y'ayo mashuri, imbere yayo hakaba hari inzira banyuramo igihe binjira muri icyo kigo.

Isomo ryigwa mu mashuri abanza ryitwa Social study ryanditse ku rukuta mu ishuri ry'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho mwarimu ndetse n'ababyeyi bafasha abana kwiga iryo somo.

Uburezi bwo mu mashuri abanza, aho umurezi w'umugore ari imbere y'abanyeshuri yabashyize mu matsinda bari mu bikorwa byo mu ishuri, bigaragara ko ari ibyo ari kubabaza kuko bateye agatoki bashaka gusubiza ibyo babajijwe.

Igikoresho cyifashishwa mu burezi kiba gikubiyemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi, nk'amarati hifashishwa guca imirongo, amakererio yifashishwa mu gushushanya, amagome yifashishwa mu gusiba, ndetse n'amataekeleyo yifashishwa mu guconga izo kereyo.

Ibitabo bitandukanye bifasha abanyeshuri bo mu mashuri abanza mu masomo agiye atandukanye, nk'igitabo cy'isomo ry'ikinyarwanda ryo mu wa gatatu, ndetse n'ibyo mu wa kabiri n'ibindi bitabo by'andi masomo byifashishwa mu banyeshuri biga mu mashuri abanza.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bw'abana batoya harimo n'ibikinisho abana bifashisha mu gihe bari gukina ndetse n'ibikinisho n'utugare bifashisha bari kubigendaho ndetse n'ibindi burira bakamanuka hasi bari kumva umunyenga.

Abanyeshuri benshi, bateraniye hamwe, bakikije ikibuga cya basiketi, aho bari kureba umukino wa basiketi, bamwe bari gukina, abandi barakurikiye ariko aho ngaho hari icyapa cyanditseho, kwirinda Sida, bakurikiye mu bigaragara, bategereje kumva ikiganiro kirakurikira, iyo mikino.

Ikigo cy'amashuri abanza imbere hari icyapa cyerekana ibiri muri icyo kigo cyangwa se ibyo iki kigo kigamije, hari indabyo zitandukanye n'inzira z'abagenzi cyangwa'abanyeshuri banyura bagana mu mashuri.

Igikoresho kifashishwa n'abanyeshuri cyangwa se abana bakiri bato, mu kwiga amabara atandukanye nk'amabara y'umutuku amabara y'ubururu. Amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'icyatsi ibyo bikabafasha kubyiga neza ndetse bakabifata, bifashishije icyo gikoresho kuko kiba kimeze nk'umukino.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi harimo impakasi, amakureri cyangwa se udusigisho, kereyo zifashishwa mu gushushanya, amabara agiye atandukanye, amarati ndetse n'ibitabo n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha mu burezi.

Igikoresho cyifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye cyitwa buwati matimatikari, kiba kirimo ibikoresho nka kereyo zifashishwa mu gushushanya, ikaramu, takereyo yifashishwa mu guconga kereyo ndetse na gome yifashishwa gusiba ndetse n'amarati yifashishwa mu guca imirongo igororotse.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bw'abana batoya, harimo ibikoresho tugira ari utuzeru bifashisha mu mikino, imigozi bifashisha mu gusimbuka, ndetse n'imipira y'amaguru bifashisha mu gukina umupira w'amaguru.

Igikoresho kifashishwa mu burezi kifashishwa n'abanyeshuri cyangwa se undi muntu ushaka guca ikizeru kimeze neza, icyo gikoresho cyitwa kompa aho ushaka kugikoresha ashyiramo kereyo ubundi akajomba, akagikaraga kugira ngo akore uruziga rumeze neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi bw'abanyeshuri bo mu mashuri abanza harimo imibare yanditse ku duti ifashishwa n'abarezi mu gusobanurira abanyeshuri ibijyanye n'imibare, ndetse n'ibindi bikinisho abanyeshuri bifashisha mu kwiga kubara mu buryo buboroheye.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi harimo: amarati yifashishwa mu guca imirongo igororotse, ayifashishwa mu guca ibizeru ndetse n'ayifashishwa mu guca imirongo ifite impande enye ndetse n'udusibisho na kereyo yifashishwa mu guca ibizeru, na takereyo yifashishwa mu guconga kireyo.

Igikoresho cyitwa matimatikale cyanditseho herigisi Oxford matematiko insuturumeti, kiba kirimo ibikoresho byifashishwa mu myigire ndetse n'imyigishirize, haba harimo amarati, amakereyo ndetse n'amagome cyangwa udusibisho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gucuruziga.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, harimo: ibitabo, amakayi, amakereyo, imakasi ndetse na pome, yifashishwa mu rwego rwo gutanga urugero cyangwa se gusobanurira abanyeshuri mu buryo burambuye.

Uburezi bwo mu mashuri makuru, aho abayobozi baje gusura ikigo cy'amashuri, bari kubatembereza ku bijyanye n'imikorere y'icyo kigo, babasobanurira buri kimwe.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye aho abayobozi baturutse hirya no hino baje gusura ikigo, bari kugira ibyo basuzuma ku bijyanye n'imikorere y'icyo kigo bambaye amajiri yerekana akazi kabo.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bambaye imyenda igiye itandukanye y'ishuri, bamwe bambaye kaki n'umweru abandi bambaye umukara n'umweru, bari ku ishuri mu kigo cyabo hari ibiti ndetse n'amashuri n'igipangu gikikije icyo kigo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari kugenda mu muhanda, bambaye imyenda y'ishuri, harimo abakobwa n'abahungu, hari n'abari imbere bambaye imyenda itandukanye n'iyabo, bo bambaye iy'umuhondo ndetse n'ubururu hasi, bari kugenda mu 'muhanda wibitaka bafite aho berekeye.

Umubyeyi ufite indangururamajwi, wambaye amarineti, uri gutanga ikiganiro kuko hari abicaye bamuteze amatwi, bateze ikiganiro ari kubahera ahantu mu kibuga cyangwa se ahandi hantu hari ibiti, hatari mu nzu.

Ikigo cy'amashuri icyo kigo kikaba gifite amashuri meza yubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'ikigega cyo kubika amazi igihe imvura yaguye kugira ngo hirinde isuri ndetse ayo mazi abikwe azakoreshewe mu mu gihe ari ngombwa akenewe.

Abanyeshuri bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hicaye abayobozi cyangwa se abashyitsi, bafite indangururamajwi bigaragara ko hari uri gutanga ikiganiro kuko abanyeshuri barareba nk'abamutumbiriye bamuteze amatwi bamuhanze n'amaso.

Abanyeshuri bateraniye hamwe, hari umuyobozi cyangwa se umwarimu uri kubigisha, yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, aho yakoresheje mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho bakunze kwita porojegiteri, ari kwigisha afite abandi bayobozi baje kumugenzura, uko isomo rye rikorwa.

Umubyeyi ndetse n'umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, umunyeshuri shuri akaba yiga ku kigo bambara amapantaro ndetse n'amashati na karuvati n'imipira y'imbeho, bahagaze imbere y'amashuri ndetse n'imbere y'ikibuga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe bambaye imyenda y'ishuri, bambara amashati y'umweru, amajipo cyangwa se amapantaro ku bahungu n'inkweto z'umukara ndetse na'amasogisi bateraniye hamwe bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Abanyeshuri bateraniye hamwe mu rusengero bambaye imyenda y'ishuri, amajipo n'amashati ndetse n'imipira y'imbeho, inkweto zisa z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru baje gusenga bicaye bareba imbere bakurikiye ibyo bari kubwirwa imbere yabo.

Ububumbyi butandukanye, aho umukobwa wambaye nk'ababisilamu, wambaye imyenda isa, ari kubumba igikoresho, yifashishije ibumba ndetse n'ibindi bikoresho nk'amazi, hari ibindi bikoresho yagiye akora cyangwa se yagiye abumba, yarambitse ku ruhande.

Ibikoresho bikoze mu ibumba, bigaragara ko hari ababumbyi bakoresha ibumba barangiza gukora ibyo bikoresho bakabisiga, bakabyaka kugira ngo byume, babyerekane cyangwa se babikoreshe indi mimaro.

Umugabo wicaye ndetse n'undi waje kumusaba ubufasha cyangwa ubusobanuro, bicaye ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo icyo bita porojegiteri n'icyo bita fotokupiyeze ifotora impapuro, bicaye ahantu hari intebe zicarwaho n'abandi ndetse n'ameza byifashishwa muri icyo gikorwa.

urubyiruko harimo abakobwa n'abasore bateraniye hamwe, imbere hari umukobwa uhagaze imbere, waruri kubaha ikiganiro ku cyari cyabateranyirije aho ngaho bari bahuriye.

Intebe yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaraho igihe bari kwiga ndetse n'udukarini bifashisha bandikaho amasomo igihe bari kwigishwa ndetse n'impapuro buzuzaho ibyo bize cyangwa se iriho imyitozo baba babahaye.

Ibikoresho bitandukanye baboshye biri, mu bigiye birimo imitako igiye itandukanye, igiye iboshye mu mabara meza agiye atandukanye, hagiye harimo amashusho atandukanye asa neza.

Urukuta rusizeho amarangi agiye atandukanye amarangi avangavanze akoze imirongo ivangavanze mu buryo butagaragara neza, ahubwo ubona ari ibintu bagiye bapfa komekaho uko biboneye.

Isura y'umuntu umeze nk'umugabo ,ikoze mu byondo babumbye ndetse n'igikombe gikoze mu ibumba babumbye, bakaba babyanitse ngo byume, byifashishwa mu kwigisha kubumba ibikoresho bitandukanye bakoresheje ibumba.

Ububumbyi bw'inkono ndetse n'ibindi bintu bikoze muri sima cyangwa se ibyondo, harimo n'ibisima byifashishwa mu gutwikira ahantu hari inzira z'imiferege cyangwa se ahantu hisuka amazi.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda yinjiye ahantu mu nzu hari mudasobwa, harimo intebe zitandukanye, aherekejwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ndetse n'ingabo z'u Rwanda bambaye udupfukamunwa bigaragara ko ari mu gihe cya covid 19.

Igikoresho gikoze mu ibumba, bakoresheje bakibumbye cyuzuye, baragisiga, baracyanyanika ku zuba, hari amaforomo cyangwa se ibikoresho bitanga ishusho, cyangwa forume bifashishije, mu kubumba icyo gikoresho.

Inyubako nziza, mo imbere harimo inzira zo kugendamo, ndetse n'inzira zikikijwe n'udutangirabasazi, mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu burezi, aho hari amavazi, arimo indabyo ziteguye neza.